Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu buryo bwihutirwa kirimo ibikoresho bitandukanye by'amabara agiye atandukanye nk'umweru n'umutuku, twavugamo nka bande zifashishwa mu kuzirika mu gihe hari nk'uwavunitse, cyangwa mu mugihe barimo gushyiraho umuntu igisima.

Inyubako isize amarangi y'umuhondo, yubatse neza. Ifite ibirahure by'umweru n'utundi twuma dusize amarangi y'umweru. Ikaba ihagazeho abantu benshi bambaye amajire ariho ikirango kivuga gutanga amaraso, ikimenyetso cy'umusaraba. Akaba asa n'umutuku, harimo: abagore n'abagabo, harimo abakobwa ndetse n'abasore bakiri batoya.

Icyumba cyo kwa muganga gihuriwemo n'abantu babiri harimo umurwayi uryamye ku gitanda gifite amashuka y'umweru, bamuziritse akantu mu kuboko gafite ibara ry'ubururu, umuganga akaba yambaye imyenda isa nu'ubururu afite imisatsi y'imikorano akaba yambaye akuma mu gutwi yashyize umurwayi mu gatuza kugira ngo yumve uko ahagaze.

Icyumba kirimo abantu batatu harimo abaganga babiri n'umurwayi umwe wicaye ku gitanda gishasheho matera ifite ibara ry'umukara yambaye agapfukamunwa, yambaye ipantaro y'umukara n'agashati karimo ibara ry'umweru ndetse n'umukara, abaganga bamuhagaze iruhande, hari umwe wambaye utwuma twifashishwa mu kumenya uko umurwayi ahagaze mu ijosi.

Icyumba cyo kwa muganga giteguyemo ibikoresho bigiye bitandukanye, gisize irangi ry'umweru, n'intebe igiye isa n'umukara n'umweru, igitanda gifite ibara ry'umweru, ndetse n'igitanda kiriho matela iriho amashuka y'ubururu, hakaba hari n'akandi gakoresho kifashishwa kwa muganga nako gafite ibara ry'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umurwayi ugaramye ku buriri busashishije amashuka y'umweru, akaba arimo gusuzumwa na muganga yifashishije akuma yamushyize mu gatuza nawe agashyira mu matwi kugira ngo yumve uko ahagaze, uwo muganga akaba yambaye imyenda isa n'ubururu.

Icyumba gihuriwemo n'abantu babiri harimo umwe w'umusirikare wambaye impuzankano iriho idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda mu mabara yose, yambaye isaha ku kuboko yambaye yifashishwa kwa muganga mu matwi mu kumenya uko umuntu ahagaze, yagashyize mu gatuza k'umurwayi nawe uteze igitambaro gisa n'ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abaganga bane bose bambaye imyenda y'icyatsi, bambaye udupfukamunwa bose tw'ubururu, bambaye uturindantoki tw'umweru, hakaba harimo ibitanda bisashishije amashuka y'icyatsi, imbere muri iyo nzu hakaba harimo amakaro asa n'umweru n'ibindi bikoresho byifashishwa muri icyo cyumba bisa n'umweru, harimo n'amatara abonesha neza cyane.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu isuzumiro kwa muganga bigiye bitandukanye by'amabara agiye atandukanye, bigiye bipfunyitse mu bikoresho bigiye bitandukanye nk'amacupa maremare, amagufi ibifite amabara y'umweru, ay'ubururu, ay'umuhondo n'ibindi bikoresho bifite amabara y'umukara ndetse n'umweru.

Icyumba cyiza cyane cyo kwa muganga, cyifashishwa mu isuzumiro, kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, by'amabaragi atandukanye, nk'umweru, ubururu n'umutuku, kirimo abantu bambaye uturindantoki dufite amabara y'ubururu.

Icyumba kigari cyane cyubatse mu buryo buboneye ijisho gisize amarangi y'umweru cyifashishwa mu isuzumiro kwa muganga, kirimo abantu batandukanye barimo gusuzuma ibintu by'ingeri nyinshi, harimo abambaye imyenda y'ubururu, abandi bakaba bambaye imyenda y'umweru bose bambaye uturindantoki.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutunganya imiti, kirimo imiti igiye itandukanye y'amabara atandukanye n'amokoye atandukanye, harimo igiye iri mu macupa y'umuhondo, mu macupa y'umweru n'indi ishyirwa mu macupa y'umutuku, ikaba iri mu gushyirwamo n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'apfukamuwa k'umweru n'uturindantoki tw'ubururu.

Abantu bane harimo: abagore babiri n'abana babiri, umugore umwe wunamye urimo guha amata y'Inyange undi mwana, inyange ikaba ipfunyitse mu gapapuro gafite amabara atandukanye nk'ubururu n'umweru ashushanyijeho inka y'ikibamba, umwana urimo guhabwa amata yambaye ishati y'umuhondo yahetse igikapu mu mugongo.

Abantu benshi bahagaze ku murongo mu ngeri zigiye zitandukanye, imbere y'inyubako harimo abagabo, abagore, abasore n'abakobwa bafite ibitabo bifite ibara ry'ubururu mu ntoki, bakaba harimo abambaye imyenda igiye itandukanye nk'ubururu, umuhondo n'umweru n'indi, baka bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, umweru ndetse n'umukara.

Icyumba kigari gisa neza cyane gicururizwamo imiti yo kwa muganga, iri mu kabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara ku ruhande, hakaba harimo imiti na yo y'amabara agiye atandukanye nk'iy'umutuku ipfunyitse mu dupapuro dusa n'umweru, indi isa n'umukara n'utundi tugiye dutandukanye, hakaba harimo n'intebe yicarwaho n'utange iyo miti.

Icyumba kirimo imiti myinshi cyane y'amoko atandukanye iri mu kabati, hari ifite amabara y'umuhondo, ifite amabara y'icyatsi, ifite amabara y'umweru, yandikishijeho amagambo y'umutuku ay'umuhondo ndetse n'indi ifite amabara mu zindi ngero.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu gutanga imiti, kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa muri uko gutanga imiti, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ufite ikaramu mu ntoki, wambaye agapfukamunwa k'icyatsi, yambaye amadarubindi, hakaba harimo ibyo bikoresho nyine bisa nk'umweru harimo n'ikayi isa n'ubururu.

Iduka rigari cyane risa neza ricururizwamo imiti yo kwa muganga, risize amarangi y'umweru ubona ko rifite isuku, hakaba harimo imiti igiye itandukanye mu bwoko bwinshi bw'mabaragi atandukanye: nk'ubururu, umweru, icyatsi, umutuku n'andi, hakaba hicayemo umugabo wicaye imbere y'imashini, yambaye itaburiya y'umweru.

Icyumba gicururizwamo imiti yo kwa muganga kirimo utubati tugiye dupanzemo imiti y'amoko agiye atandukanye, ifite amabara atandukanye, afunze mu tuntu tugiye dutandukanye, iri mu dupapuro rii mu dukombe ikaba yose ipanze mu tubati dusize irangi ry'umweru.

Akabati karimo imiti yifashishwa kwa muganga mu guha abarwayi bafite ibibazo, ipfunyitse mu bicupa birebire by'umweru bifite imifuniko y'icyatsi iriho amagambo yanditseho mu mabara atandukanye, nk'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi.

Inyubako nziza cyane yubatse mu buryo buboneye ijisho isize amarangi y'umweru ndetse n'umuhondo, imbere yayo hakaba hahagaze abantu b'ingeri nyinshi abagore, abasore n'abakobwa. Bafashe icyapa mu ntoki cyanditseho amagambo mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu n'icyatsi, iki cyapa kikaba kiriho iki kirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba kimwe cyahuriwemo n'abantu b'ingeri nyinshi harimo abapolisi bashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara yanditseho amazina yabo mu ibara ry'umweru n'utugofero turiho akabara k'umweru ndetse n'umukara bakaba bari kumwe n'abandi bantu bambaye imyenda y'umweru ndetse n'abandi bafite imisatsi y'imikorano n'indi ya karemano.

Icyumba kirimo abantu babiri harimo umwe uryamye ku buriri bufite amashuka y'umweru wiyoroshe agasume k'umweru, undi akaba ahagaze yambaye agashati k'umweru akaba ari kumukanda ibirenge, kaba ari uburyo gakondo bwifashishwa mu kuvura.

Umugore mwiza cyane uri mu rutoki witeye akenda k'umweru, ufite agakapu ku kuboko, akaba afite imisatsi yagize neza karemano, afashe ku cyatsi kitwa umuravumba uri munsi nsina zishishe zisa neza cyane.

Icyumba kigari kirimo irangi ry'umuhondo, kicayemo abantu b'ingeri nyinshi cyane: abagabo, abagore ndetse n'abakiri batoya. Hakaba harimo abahagaze imbere yabo barimo kubigisha ku bijyanye n'ubuzima. Umwe wambaye umwenda w'ubururu w'umugore, uw'umugabo akaba yambaye ikote, imbere akaba yambayemo ishati y'umweru.

Abantu benshi bahuriye ahantu muri gahunda y'ubuzima, bambaye imyenda igiye itandukanye; hari abambaye icyatsi hejuru, hasi bakaba bambaye umukara, hakaba n'undi wambaye itaburiya isa n'ubururu, imbere yambayemo ishati y'umweru, benshi bakaba bafite za amvelope mu ntoki.

Abana benshi cyane bicaye imbere y'inyubako isizeze amarangi y'ubururu, hejuru hashushanyijeho abantu bane mu ibara ry'umweru, babiri bakuru n'abandi babiri b'abana, handitseho mu ibara ry'ubururu izina Girubuzima, imbere yayo hakaba hari ubusitani burimo umukindo n'ibindi byatsi bigize ubusitani, bikaba birimo ivasi isize irangi ry'umuhondo, ubururu n'icyatsi.

Umugore ufite indangurumajwi mu ntoki ufite imisatsi karemano, wambaye imikenyerero ifite amabara y'umweru n'umukara, akaba ahagaze imbere y'inyubako ifite amarangi y'ubururu, ikaba yanditseho ''igiraru ubuzima'' hashushanyijeho abantu mu ibara ry'umweru, bakaba ari bane babiri bakuru n'abana babiri, hanyuma ku ruhande rw'iyo nyubako hakaba hahagaze abandi bantu b'ingeri nyinshi nk'abagore n'abagabo bambaye amakoti bambaye amashati y'umumweru, ndetse n'ibindi.

Ni inyubako ngari nziza cyane yubatse mu buryo buboneye ijisho, isize amarangi y'ubururu, isakaje amabati y'umutuku, ishushanyijeho abantu bane mu ibara ry'umweru, yanditseho mu magambo y'ibara ry'ubururu "Girubuzima", imbere yayo hari icyitwa kandagira ukarabe.